Galimantasiyo bajaga baracururizamo ibintu bijanye n'ibyayi, ibintu bijanye n'imikati cangwa se amakeke cangwa se ibintu bya juyisi, harimo umutobe, harimo ibintu bijanye n'amabisukwi.

Zamura famu sapuriyizi ni ikigo gikundaga gufashaga abantu bajynanye n'abahinzi, kubagezaho ibintu by'ifumbire imbuto nziza cagwa se n'ibintu bijanye n'ubuhinzi bw'iterambere.

Muri bara ni ahantu hacururizwaga ibintu bitandukanye harimo amayoga harimo amaji harimo inyama, ibirayi cangwa se waba udafite hantu ho kurara ukagenda ukavuga uti jyewe munkodeshe iroji hano kuri iyo bara .

Iduka ni inzu icururizwagamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibishimbo, ibirayi, amavuta, amaji, imineke, ibintu byinshi imikubuzo, amakara, byinshi cane.

Iduka ni ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, ibintu bijyanye n'imyenda, cyangwa se ibintu bya serivisi bijyananye n'irembo, wenda, cyangwa si ibintu bijyanye no gucururiza mu bintu bijyanye n'inkwi.

Mu isoko ry'imbuto ni ahantu hacururizwaga ibintu bijanye n'imbuto gusa wenda imineke, imyembe, ibipapayi bya kizungu, amawotameroni.

Isoko ni ahantu abantu bajaga baraja gucururiza, hahurigwaga n'abantu bashaka ibicuruzwa n'abantu bari kubigurisha. Niho abantu bacururiza ibicuruzwa byabo bakabishakira n'abakiriya.